Abantu benshi bicaye n'abahagaze, biganjemo abagabo n'abagore, abasutse n'abafite imisatsi mikeya n'abogoshe, inyuma yabo hari imodoka nyinshi nini.

Abagabo n'abagore bambaye amarinete, abatayambaye, abafite imisatsi mikeya, abafite imisatsi myinshi, abasutse, bambaye amabaji asa.

Abantu benshi biganjemo abagore n'abagabo, abicaye n'abahagaze bambaye imipira y'imihondo n'iy'icyatsi, bafite imisatsi abandi bakaba bogosha.

Umugore wicaye iruhande rwa kaburimbo, imodoka ebyiri z'umweru niy'umukara, inyubako yubakishije amatafari ahiye n'abantu bari iruhande rw'iyo nyubako.

Abantu babiri, umugabo n'umugore, imbere yabo hari ameza ariho na mudasobwa, bambaye itaburiya y'umweru n'ikanzu y'umukara, umwe aricaye undi arahagaze.

Abantu bicaye munsi y'igiti kinini benshi, biganjemo abagabo n'abagore n'abana, bicaye ku ntebe z'umweru, iruhande rwabo hari akazu ka MTN gasize ibara ry'umuhondo...

Umuhanda wa kaburimbo harimo imodoka ifite ibara ry'umutuku itwaye umucanga, iruhande rwayo hari ibiti birebire bifite amababi y'icyatsi.